Umurima munini uteyemo indabyo n'ibiti, ibiti bimeze neza, indabyo zisa n'umweru, indabyo bazijyana gushyingura, barazitaka ku meza, barazigurisha bagakuramo amafaranga.